Abantu batatu harimo abagabo babiri n'umugore umwe bari gutera inkuru mu gihe cy'akaruhuko k'inama bari barimo, bafite mudasobwa n'amazi imbere yabo biteretse ku meza.

Umugore ufite imisatsi miremire ufite indangururamajwi mu ntoki ziwe hakaba hari n'abandi bantu bicaye mu matete bakaba bari kumvamva icyo babagezaho, hakaba hari ushinzwe gufotora ibiri kubera aho ngaho muri ako kanya.

Abantu batandukanye bicaye bari mu nama abicaye ku murongo wa mbere harimo umugore ufite amarinete yazamuye n'umugabo ukurikiye imbere bafite amazi imbere yabo, ibyo kwandikaho n'ibyo bandikisha.

Icyumba cy'inama kirimo abagore ndetse n'abagabo, harimo abagore benshi bafite imisatsi miremire n'abagabo bambaye amadarubindi, bakaba bari kuganira ku nama igira uti: "Turwanye ihohotera rishingiye ku gitsina."

Itsinda ry'abantu ryicaye, bamwe bicaye ku ntebe mu itente, abandi bicaye mu busitani, bakurikiye uri gutanga inama, bakoraniye imbere y'inzu yegereye ikigega cy'amazi.

Abayobozi b'inzego, bari kumwe n'abaturage, bahawe imfashanyo y'ihene, bahagaze mu busitani bakikijwe nibitoki, n'ibiti n'amapoto n'idarapo ry'Urwanda.

Icyumba cy'inama kikaba kirimo ameza agiye yiciraho n'abantu bagiye batandukanye bafite mudasobwa abandi telefoni mu ntoki zabo, higanjemo abagore n'abagabo bafite n'amazi yo kunywa.

Uhagarariye ishyirwahamwe ry'umupira w'amaboko afite indangururamajwi mu ntoki z'iwe, imbere ye hakaba hateretse icupa ry'inyange ririmo amazi, akaba yambaye ishati y'amaboko maremare ndetse n'ubwanwa busa umweru.

Umugore ufite irangururamajwi ari kuganiriza abaturage bo mucyaro bicaye mu busitani begereye ikusanyirizo ry'amazi bakikijwe n'ibitoki ndetse n'inzu.

Abagabo babiri umwe wambaye kositimu y'ubururu ndetse n'isaha, yambaye ishati y'umweru na mugenzi we wambaye ishati y'amaboko maremare, inyuma yabo hari icyapa kigaragaza ikigo gishinzwe ibarura ndetse n'imisoro, kikaba gifite amabara y'ubururu.

Abantu bitabiriye igikorwa runaka abicaye ku mirongo yimbere bambaye amajiri y'icyatsi n'imyenda y'umukara abakurikiye bambaye imyenda y'ubururu.

Umugabo wambaye ikositimu n'amarinete, ufite irangururamajwi, uri kumwe n'abantu bamuteze amatwi, bamwigereriye, arimo arayobora inama cyangwa undi muhango.

Umugore ufite imisatsi miremire y'umukara wambaye amadarubindi w'inzobe, ndetse akaba yambaye umupira usa umukara, akaba afite terefone igendanwa mu ntoki ziwe ndetse n'ikaramu akaba ari kwandika mu gitabo.

Icyumba cyabereyemo inama kirimo abayobozi bagiye batandukanye, harimo n'abashinzwe umutekano bose bakaba bambaye udupfukamunwa, ndetse hari n'abafite indangururamajwi imbere yabo hakaba harimo n'ibitangazamakuru.

Umugabo ufite umusatsi mugufiya wambaye amadarubindi ndetse n'ishati ikorerwa mu Rwanda wambaye isaha y'umukara, ndetse n'imbere ye hakaba hateretse icupa rikorerwa mu ruganda rw'inyange, inyuma ye hakaba hari abagabo bambaye amakositime y'umukara.

Icyumba gikorerwamo inama hakaba harimo abagabo bambaye amakositimu y'ubururu, ndetse abandi bakaba bambaye amakositimu y'umukara, abenshi bakaba bambaye amashati y'umweru n'amadarubindi bakaba bari mu cyumba kirimo amabara y'umutuku n'umuhondo n'amazi.

Abagore n'abagabo bari mu nama bari kuganira bakikije imeza iriho impapuro, inyandiko, ndetse n'amazi. Bari mu cyumba kirimo imitako ndetse n'amadirishya ndetse n'amarido.

Icyumba cy'inama kirimo nzego z'abantu bagiye batandukanye, bakaba bafite mudasobwa imbere yabo ndetse n'amazi yo kunywa, ariko bamwe muri bo bakaba bambaye amadarobindi ndetse n'ibintu by'umukara.

Abagabo batatu babiri bambaye amashati y'umweru uwo hagati akaba yambaye ishati y'umweru ifite umurongo w'umukara ndetse akaba yambaye n'amadarubindi, imbere yabo hakaba hari uturangurumajwi ndetse n'impapuro imbere yabo.

Abagabo n'abagore bambaye imipira y'umuhondo n'ubururu, bakaba bari mu cyumba kirimo amagambo ari mu kirimi cy'icyongereza avuga ikipe y'u Rwanda, hakaba hejuru yabo hari amatara ari kwaka umuhondo.

Abagabo babiri n'umugore umwe wambaye amadarubindi, harimo n'umuporisi wambaye amadarubindi, wambaye ikirangantego cy'u Rwanda gikunzwe kwitwa idarapo wambaye imyenda y'ubururu.

Umugabo ufite uruhara wambaye amadarubindi, wambaye ishati na kositimu na karuvati, wicaye ku ntebe ari gukurikira yitonze inama iri kujya imbere.

Icyumba cy'inama gitatswe n'amabara atandukanye yiganjemo ibendera ry'u Rwanda harimo abagore n'abagabo, harimo uwambaye ikanzu y'umutuku ndetse n'umusatsi mugufi wambaye amadarubindi ndetse n'intebe zifashishwa kwicarwaho.

Abantu barindwi: harimo abategarugori babiri, n'abandi bagabo bari mu cyumba cy'inama, bari kuganira ku bintu bimwe na bimwe, icyumba cy'inama kirimo igikuta cyera, ndetse na mudasobwa zigiye zitandukanye.

Intebe z'umukara, zicaweho n'abantu bagiye batandukanye, imbere yaho hari mudasobwa, n'uturangururamajwi, n'amazi yo mu bwoko bw'inyange imbere yabo, bari mu cyumba cy'inama.

Abantu bari kukazu mu inzu igurisha amayinite, abayobozi noneho bagiye nko kubikuza cyangwa kubitsa cyangwa kugura ikarita yo guha....

Umugore n'umugabo bicaye ku ntebe z'umukara, umugore uri kwandika mu gitabo akoresheje ikaramu, umugabo imbere yiwe hateretse amazi y'inyange basa nkaho bari kugira ibintu bavuga imbere y'abantu.

Abagabo batatu, hari uwambaye ikote ry'umweru, umukara, n'ubururu, wambaye amadarubindi, n'ubwanwa bw'umukara, n'umusatsi mugufiya, undi akaba yambaye umupira w'umutuku, n'ubwanwa, nta musatsi afite.

Abagabo babiri bose bafite kasike zanditseho sefu moto, aba bagabo bose bambaye amarinete umwe ni umwirabura ariko undi ni umuzungu.

Umugore ufite imisatsi y'umukara wambaye isaha y'umweru, wambaye ikanzu iri mu ibara ry'umuyubugubwe, uri kugira icyo avuga imbere y'abantu, inyuma yiwe hari ikibaho cy'umweru cyanditseho amagambo y'umukara ari mu kirimi k'icyongereza.

Abagabo bambaye amakositimu uwa mbere yambaye ikositimu y'umukara na karuvati irimo utudomo n'amadarubindi nta musatsi afite, mugenzi we yambaye karuvati irimo umurongo w'umweru n'ubururu nta musatsi afite.

Icyumba k'inama kigiye kirimo abana batandukanye, bo mu bihugu bigiye bitandukanye, bo hirya no hino, hari abambaye amashati y'umweru ndetse n'amakositimu, hari n'abagore bafite imisatsi miremire bambaye imyenda yirabura.

Icyumba cy'inama kirimo umugore ufite imisatsi miremire bakaba bicaye ku ntebe z'umukara ndetse abagabo bageze muri batanu bambaye amakositimu y'umukara hakaba harimo umusaza wambaye amadarubindi n'umusatsi w'imyeru imbere yabo hakaba hateretse amazi.

Uyu ni umugabo wambaye ingofero n'umupira w;umukara n'ipantaro n'inkweto z'umukara, akaba ari mucyumba kinini gifite itara ry'umweru ndetse gifite n'inkuta zisa umweru, akaba ari impande y'imodoka.

Icyumba cy'inama cyahuriwemo n'abantu bagiye batandukanye, mu nzego zishinzwe imibereho myiza, hakaba harimo umugore w'uruhu rwera, yegeranye n'abagabo bambaye amakositimu y'umukara, ndetse imbere yabo hakaba hateretse mudasobwa n'amazi.

Abagabo babiri n'umugore umwe bari mu kiganiro bafite indangururamajwi na mudasobwa n'amazi, inyuma yabo hari ikimenyetso cyanditseho Kigali yacu n'ikindi cyanditse Kigali ikeye.

Umugore ufite umusatsi muremure wambaye imyenda y'umutuku, vharimo n'umukara n'umweru n'ijipo ngufiya, ufite igikapu gikunzwe gukoreshwa n'abantu bakunze kujya mu mahanga akaba ahagaze hafi y'ibyapa bigiye bitandukanye ndetse n'inyuma yaho hakaba hari iminara y'amashanyarazi.

Inama irimo abantu batandukanye by'umwihariko ba rwiyemezamirimo, bakaba bateretse imbere yabo amacupa akorerwa mu ruganda rw'Inyange akaba arimo amazi atunganyijwe neza.

Ni igikamyo cyikoreye imizigo, cyangwa se gishobora kuba cyikoreye umucanga, ariko ikaba itwikiriwe hejuru ikamyo, iri kugenda mu muhanda rwagati, muri kaburimbo, ari yonyine. Iburyo n'ibumoso hari inzira z'abanyamaguru.

Abagabo babiri ndetse n'umugore umwe ufite imisatsi miremire, hakaba hari umugabo wambaye ingofero y'umukara ndetse n'undi wambaye umupira w'amaboko maremare ufite telefone ye mu ntoki, akaba yambaye n'amadarubindi, imbere ye hakaba hateretse amazi n'ururabo.

Inama yahuje abantu bagiye batandukanye ndetse n'abayobozi bari kuri mudasobwa zabo ndetse n'aba gafotozi n'ibikoresho bifashisha mu gufotora.

Serivisi y'ikigo cya RURA, iri gusaba imeri cyangwa telefoni, igasaba ijambo ry'ibanga, ikabaza n'uburyo bagufasha niba ufite ikibazo cyangwa hari ibindi ushaka kuvuga.

Inama iri kubera mu buryo bw'ikoranabuhanga mu buryo bugezweho, y'abantu bashinzwe imirimo imwe n'imwe mu nzego za leta, ikaba igamije kureba inzego z'ubutegetsi bwite muri leta.

Ikinyamakuru kivuga ko maribugu yashize mu Rwanda, ndetse n'ifoto yerekana abayobozi barimo baraganira barimo baratanga amakuru kuri ku ndwara ya maribaga.

Abanyeshuri bafite imisatsi migufiya barambaye udupfukamunwa tw'umukara, bari mu cyumba cy'ikoranabuhanga kirimo mudasobwa z'umukara, bakaba bari kumwe n'umwigisha wabo wambaye agapfukamanwa k'umukara ndetse n'umupira w'amaboko maremare usa ubururu n'umweruru.

Ubutumwa bwa RURA ku bakoresha imodoka rusange, mu ngendo zo mu mujyi wa kigali. Birabujijwe kwishyura mu ntoki, uburyo rukumbi bwemewe no kwishyura urugendo ukoresheje ikarita.

Abantu bane bari kumwe, bafite agapfukamunwa, begeranye bari kureba muri telefone zabo, bamwe bambaye ijire n'ingofero y'akazi, abandi bahetse ibikapu.

Ipoto rishinzwe gukwirakwiza amashanyarazi, rikaba rifite amabara arimo umutuku ndetse n'umweru, rikaba riri ahantu hazitiwe n'ibyuma kugira ngo ririnde abantu ibyago.

Icyapa gishinzwe ku nzu cyerekana ko hakorerwa serivisi z'irembo harimo gufotora, gusaba viza yo mu bihugu bitandukanye nka Amerika na Kanada n' Uburayi ndetse na serivisi za Banki ya kigali.

Itangazo rya rura riri kuburira abantu kwirinda uburiganya bukorerwa kuri simukadi, bababwira gukanda akanyenyeri rimwe kabiri gatanu urwego, kugira ngo bamenye simukadi zose zaditse ku ndangamuntu zabo.

Inzu y'ubucuruzi mu buryo bugiye butandukanye bwo kohereza amafaranga no kwakira igizwe n'itumanaho rya eyateri n'andi matumanaho agiye atandukanye mu bice bigiye bitandukanye by'Isi.

Imeza z'umukara ziteretse imbere y'imeza ndende, iki cyumba kikaba gishobora gukorerwamo inama zigiye ziyobowe n'abantu batandukanye hejuru hakaba hari amatara menshi afasha kumurikira abantu bitabiriye iyo nama.

Ishusho rigaragaza serivisi z'irembo ahari amagambo yanditseho serivisi nshya ku rubuga rw'irembo akadomo komu, serivisi zikaba zifashishwa n'abantu bagiye batandukanye nk'abashaka ibyangombwa by'ubutaka batuyeho.

Umuzungu muremure wambaye ikoti rya kositime, ari kumwe n'umunyafurika mugufi wambaye ingofero y'umweru ndetse n'ikoti, bari mu biro birimo mudasobwa.

Umusore wambaye ingofero, ishati uri kuri mudasobwa mu biro ari mukazi, yegereye n'imashini icapa impapuro n’ inyandiko.

Kuri iyi shusho ya gatatu ndabona ibinyabiziga by'abashinzwe umutekano wo mu Rwanda, ikinyabiziga kimwe gifite ikarita y'ikirango k'ibinyabiziga, gifite inyuguti ra na pa nomero magana abiri na makumyabiri na kane na.

Umuhanda ukoreshwamo ibinyabiziga by'amoko yose, aha ngaha hakaba harimo umumotari uhetse umugenzi ndetse inyuma y'iwe hakaba hari ibyapa by'umuhondo ndetse n'imodoka y'umutuku n'abantu bahagaze hafi.

Iminara ibiri ishinzwe gukwirakwiza amashanyarazi mu nce zigiye zitandukanye z'umujyi wa kigali zikaba zifite n'itsinga zifashishwa kugeza ku bantu amashanyarazi zikaba zegereranye n'amazu atandukanye.

Ipoto ry'amashanyarazi bikikijwe n'ibiti n'igikuta ndetse n'impanga iriho ibyatsi n'amabuye ikikijwe n'ibiti bigiye bitandukanye, hariho n'amatara afasha kumurikira rubanda mu masaha akuze ya nijoro.

Ipoto rishinzwe gukwirakwiza amashanyarazi ku nzu zimwe na zimwe rikaba rishinze ahantu hari ibyatsi byinshi ndetse inyuma hakaba hari amabati n'ibiti birebire, inyuma y'ibyo biti hakaba hari inzu ndetse n'igikuta cy'amatafari.

Umuhanda wa kaburimbo ufite ikona, kuru ruhande rw'umuhanda hari itara hari na parikingi irimo imodoka, imbere y'imodoka hari ubusitani burimo ibiti ibimera ndetse n'ibyatsi.

Inzu y'ubucuruzi yegeranye n'ipoto, n'intsinga, n'itara rimurikira ibinyabiziga mu gihe cya nijoro, n'igiti cyegeranye n'imodoka munsi yacyo.

Umuntu uhagaze imbere y'imbaga y'abantu benshi, wambaye imyenda y'umukara. ufite indangururamajwi y'umukara, inyuma ye hakaba hari ikigega cy'umukara kijyamo amazi aturutse k'umureko w'inzu. N'inzu yubatse n'amatafari ahiye.

Inzu y'umuturirwa ifite amabara y'umuhondo, ndetse ikaba ikikijwe n'indi bituranye ifite amabati, imbere yayo hakaba hari ipoto y'amashanyarazi ndetse n'insinga zifashishwa mu gukwirakwiza amashanyarazi.

Amapoto y'amashanyarazi ahujwe n'insinga zitwara amashanyarazi; ibiti ndetse n'ibitoki ndetse n'umuntu uhagaze mu muhanda.

Amapoto abiri yifashishwa mu gukwirakwiza amashanyarazi mu bice bigiye bitandukanye, hejuru yacyo hakaba hari igicu cy'umweru ndetse n'ubururu, ikirere cyiza cyane.

Abaturage bari ku bitaro barindiye serivisi, bamwe bicaye abandi bahagaze, umwe mu bahagaze afite umwana mu mugongo, ku rundi ruhande hari abantu bari gucaho ndetse n'umuganga uhagaze mu muryango.

Ibitaro bifite inzu y'amatafari iri mu busitani itandukanyijwe n'umuyoboro w'amazi naho abantu baca, ubusitani burimo indabo n'ibimera n'ibyatsi.

Inyubako ivurirwamo abantu bagiye batandukanye bw'umwihariko nk'abasirikare, hakaba hasuwe n'abantu bagiye batandukanye harimo abihayimana, begeranye n'imodoka ishinzwe gutwara imbabare, ikunze kwitwa ambiransi.

Icyumba cy'abarwayi baba barwaye indwara zigiye zitandukanye aho abaganga babafashiriza hakaba arimo amabara y'icyatsi ubururu ndetse n'amarido hakaba hafungishijwe imiryango ifite ibarahure bibonerana.

Umugore wambaye umupira w'ubururu ndetse n'amagambo y'umweru, imbere ya akaba ari mudasobwa irimo ibintu bitandukanye. Akaba arimo ubururu n'umweru ndetseAikaba yambaye isaha n'amadarubindi iruhanderwa hakaba hari n'impapuro.

Inzu ifite amabati y'umutuku ndetse n'ubusitani buteye neza bukaba busa icyatsi ndetse n'inkingi z'ibyuma zifashe iyo nzu kugira ngo itagwa hakaba hari n'imireko yifashishwa mu gutwara amazi.

Ibiti bibiri biteye mu byatsi bikaba biri mu bwoko bw'umukindo, bikaba bikikijwe n'ibyatsi ndetse n'indabo ziri mu mabara y'umuhondo,m hirya yaho hakaba hari ibiti birebire ndetse n'imodoka ziri munsi y'amabati.

Abantu bambaye amataburiya akoreshwa mu guteka, ndetse n'akanzasuku mu mutwe barimo baraganira bava ahantu bajya ahandi.

Umugore wambaye ikanzu y'igitenge ahagaze mu nzu ikorerwamo ubucuruzi bw'imyenda idoze, nayo imanitse ku twuma dufite ibara ry'umweru, hasi no hejuru ndetse iyo nzu ikorerwamo ubucuruzi ifite ibara ry'umweru ndetse n'inkingi zishinze z'umweru zifasheho iyo myenda imanitse.

Abagabo bambaye imyenda y'mye bara ry'roza ikunzwe kwamburwa n'imfungwa bakaba bambaye n'udupfukawa bakaba bicaye ku gikuta kiriho amatafari hirya hakaba ari igikoresho gikunze kwifashishwa muri ikizimyamwoto

Abashinzwe imfungwa n'abagororwa bakaba bajyanye abagororwa ahantu bakwiye kujya kuburanishwa, abagororwa bakaba bambaye imyenda y'iroza ndetse n'amakabutura magufi.

Abagabo babiri bambaye amakositimu bakaba bafite imisatsi ndetse n'ubwanwa bw'umukara bakaba bari guhererekanya igitabo. Inyuma hakaba ari ibyuma byifashishwa mu muziki bakaba babikoresha mu gucuranga.

Umugabo uri imbere y'abandi baturage bari kwishimira urukiko gacaca wambaye imyenda y'umweru n'abandi bategarugori bari kubyina, urukiko gacaca rwashyizweho nyuma y'ibintu byabereye mu gihumbi kimwe magana acyenda na kane mu Rwanda.

Imfungwa ebyiri zambaye ingofero n'imyenda y'iroza, zitwaye umurwayi uryamye ku ngobyi, wifubitse amashuka asa umweru n'ubururu, bari mu muhanda w'igitaka begereye igikuta.

Abagabo babiri bari mu nzu y'urukiko aho bambaye imyenda igaragaraza imfungwa isa iroza, bakaba bari kumwe n'abagore babiri bambaye imyenda y'umukara n'umweru yambarwa n'abantu baca imanza.

Umuhanzi wakunzwe cyane mu Rwanda kizito mihigo yambaye imyenda y'imfungwa y'iroza afite agatabo ari gusoma n'abandi bamwegereye bari kureba imbere yabo .

Icyumba cy'iburanisha kirimo abagabo ndetse n'abagore, harimo umugabo uri gushinjwa ibyaha ndetse n'abashinzwe kumushinjura ndetse n'umucamanza, hakaba hari abambaye amakanzu y'umukara ndetse n'udupfukamunwa ndetse n'amazi yo kunywa.

Abagororwa bambaye imyenda y'iroza ndetse n'udupfuma tw'umweru, iruhande rwabo hakaba hari abashinzwe kubarinda bafite imbunda n'udupfumunwa, bakaba bari kuva mu modoka ishinzwe kubatwara.

Umugabo wambaye imyenda y'iroza ikunda kwambarwa n'imfungwa, wambaye n'inkweto z'umukara, uhagaze mu busitani, uhagaze imbere y'abantu bagiye batanduanye, harimo abasaza n'abakambwe bafite imitaka y'umuhondo n'umweru n'ubururu.

Hirya no hino ugenda usanga hari amasoko atandukanye kandi acuruza ibicuruzwa bitandukanye, ariko amenshi murayo masoko usanga ahuriyeho n'uko abacuruza ibintu bijyanye n'imyenda cyangwa se imyambaro y'abantu bagiye batandukanye. Ayo masoko yose ugasanga ari ingirakamaro cyane mu iterambere ry'umuturage ukamufasha kwiteraza imbere mu buryo bumwe kandi akanamufasha no kubaho neza mu buryo bw'imyambarire.

Umugabo wambaye rinete, kositimu y'umukara, karuvati irimo umukara n'umweru n'ishati y'umweru ufashe indangururamajwi inyuma y'iwe hari icyapa cya repubulika y'u Rwanda cyigaragaza aho u Rwanda rugeze.

Umugabo wambaye amadarubindi ndetse n'ishati y'umweru y'amaboko maremare ndetse n'umukandara, inyuma ye hakaba hari ibikarito bigiye birimo impapuro za gacaca bakaba bari kwerekana dosiye zimwe na zimwe z'abantu.

Umukuru w'igihugu cy'u Rwanda ari imbere y'abantu ari kuvuga ijambo akoresheje indangururamajwi akikijwe n'idarapo ndetse n'ikimenyetso kivuga semeja yambaye ikositimu.

Imfungwa yambaye amarinete n'imyenda n'agapfukamunwa basa iroza, acigatiye inyandiko, aherekejwe n'umurinzi wambaye ingofero n'imyenda ya kaki.

Umugabo w'igikara ufite amasoso n'uruhanga runini, uri guseka ufite ubwanwa, wambaye karuvati y'ubururu n'ikositimu y'ubururu, n'ishati yumweru.

Abagabo basaga batatu bicaye ku ntebe imwe bambaye udupfukamunwa umwe wambaye ak'umukara, ak'umweru, ndetse n'undi wambaye ak'ubururu, babiri bakaba bambaye amadarubindi abandi bakaba bambaye imyenda ikunda kwambarwa n'abantu baba bagiye kuburanisha.

Abayobozi ndetse n'abanyamategeko bahagaze imbere y'imfungwa zicaye zambaye imyenda y'iroza barimo kubaganiriza.

Umugabo wambaye amadarubindi wambaye karuvati n'ishati y'umukara, wambaye imyenda igikundwa kwambarwa nabashinjacyaha cyangwa abagenzacyaha, mu bihugu bimwe na bimwe bigiye bitandukanye.

Imfungwa zambaye agapfukamunwa n'imyenda y'iroza zivuye mu modoka ziherekejwe n'abarinzi ziri kugana mu nyubako y'amagorofa.

Umugore ufite imisatsi miremire akaba yambaye iherena ndetse n'ikote n'umupira mo imbere n'ishanneti ndetse n'isaha, akaba afite n'ikaramu mu ntoki ze, imbere hakaba hateretse amakayi ndetse n'amazi n'icyo kunywa.

Abanyamategeko bane bambaye imyambaro yabugenewe, ariyo ingofero y'umukara ndetse n'ikanzu y'umutuku, bicaye ku meza ikozwe mu kibaho bari mu nama. Imbere yabo bafite irangururamajwi ndetse n'impapuro.

Abantu bagiye batandukanye, harimo igitsina gore n'igitsina gabo, bakaba bari mu mahugurwa y'uburyo bazimya umuriro, hakaba hari ababishinzwe, bambaye ingofero y'umukara ndetse n'igisarubeti cy'ubururu bwijimwe, harimo n'umuhondo.

Ivatiri y'umukara iri kubisirikana n'imodoka ya polisi iri mu bisate bibiri by'umuhanda bitandukanye, inyuma yabyo hari imodoka ahandi hari moto, ku mpande hari inzira y'abanyamaguru ikozwe n'amapave.

Imodokari ifite amabara y'umweru n'umukara ya polisi y'u Rwanda ishinzwe gutwara imfungwa n'abagororwa, imbere yaho hari bariyeri ifite amabara y'umweru n'umukara inyuma yaho hari amabara y'icyatsi.

Icyapa kigaragaza ibitaro bya police, kikaba kigizwe n'amabara y'umutuku, umweru n'ubururu, kikaba kigizwe n'ibarangantego bibiri hari icy'u Rwanda n'icya police, ik'icyapa kikaba giteye mu busitani.

Umugabo wambaye imyenda y'abapolisi n'inkweto z'abapolisi, akaba ahahagaze iruhande rw'imodoka y'abapolisi, iyo modoka ikaba igizwe n'amabara y'umweru ndetse n'ubururu, harimo n'umuhondo.

Umuntu uri mu kazi ko kuzimya umuriro, yitwaje kizimyamwoto, ndetse yambaye ibikoresho bimurinda bihisha isura yiwe ndetse n'umubiri we wose.

Umwe mu bashinzwe kuzimya ahantu hatse umuriro, akaba yambaye imyenda yabugenewe irimo ubururu bwijimye ndetse n'icyatsi kibisi akaba afashe kimwe mu bikoresho byifashishwa kurekura amazi kugirango inkongi y'umuriro izime.

Abanyeshuri bari gutozwa uburyo bwo kuzimya umuriro bari kwiyifashwamo n'uwushinzwe wambaye agapfukamuma, ndetse n'ingofero n'igisarubeti kirimo amabara y'ubururu ndetse n'umuhondo wambaye n'inkweto ndende bakaba bakikijwe ndi banyeshuri bagenzi babo.

Inyubako polisi ikoreramo ikaba igeretse inshuro enye, imbere yayo ikaba iparitseho imodoka z'abakozi ba ribu zigizwe n'amabara y'umweru n' ubururu, ndetse imbere yayo hakaba hari n'ubusitani bufite amabara yenda gusa umuhondo.

Abagabo babiri bashinzwe kuzimya inkongi y'umuriro, bambaye imyenda yabugenewe igizwe n'amabara umukara n'umuhondo. Bakaba bafite igitiyo kinini kirekura amazi aremereye kugira ngo inkongi y'umuriro ibashe kuzima.

Imodoka ya polisi y'u Rwanda, ifite ahantu bicara inyuma ndetse no mo imbere harimo imyanya ibiri, iparitse ku muhanda w'amapave, imbere y'inyubako y'amagorofa, ifite icyapa cyanditseho zigama Muhima.

Igikoresho cyitwa kizimyamwoto bakoresha bazimya umuriro, gifite ipomba y'umukara, umuyoboro w'ubururu n'umutuku gisa umutuku, hasi ari umukara.

Abagabo bashinzwe kuzimya umuriro bakaba bambaye imyenda yabugenewe irimo amabara y'umukara ndetse n'umuhondo, umwe akaba yambaye ingofero bakaba barikuzimisha bimwe mu bikoresho byagenewe kubizimya umuriro.

Icyapa kiranga aho ikigo gishinzwe kugenza ibyaha no gukurikirana abanyabyaha kiri i nyamirambo, iki cyapa kikaba gifite amabara y'ubururu kikaba cyandikishishwaho amagambo y'umweru ndetse n'ikirangantego cya rib ndetse n'icy'igihugu.

Abantu bo mu rwego rushinzwe kuzimya umuriro, bakaba bari gutoza urubyiruko rwo mu kigo bakaba bari kubereka uburyo bakifashisha bazimya, bifashishije bimwe mu bikoresho bizwi nka kizimya mwoto.

Icyapa kigaragaza aho ibitabo bya polisi biri, hakaba hariho ibirangantego, hakaba hariho ikirangantego cya polisi y'u Rwanda, hakaba hari harimo n'inuma, iki cyapa kikaba gikikijwe n'ibiti birebire ndetse n'insinga z'amashanyarazi.

Umupolisi wambaye ingofero y'umukara ndetse n'imyenda ya polisi, ari kugenzura imodoka y'umukara ndetse n’ uyitwaye afite mu ntoki uruhushya rwemerera umuntu gutwara imodoka.

Icyumba cy'inama kirimo nyakubahwa perezida w'igihugu cy'u Rwanda, kikaba kirimo idarapo ry'u Rwanda ndetse n'abandi bashinzwe mu nzego z'igihugu by'umwihariko hari abari kurahira inshingano shya bari kubaha.

Umukuru w'igihugu cy'u Rwanda ahagaze imbere y'imbaga nyamwinshi y'abaturage muri sitade, arimo aravuga ijambo akoresheje indangururamajwi.

Umugabo wirabura wambaye kositimu y'ubururu ndetse n'umupira w'umweru uriho ifoto y'umuntu, akaba ari kuvugira ku ndadangururamajwi, inyuma y'iwe hakaba hari abagore n'abagabo, hari umugore wambaye amadarubindi ndetse n'ikanzu y'umweru.

Icyumba k'inama kirimo abantu bagiye batandukanye mu nzego zigiye zitandukanye z'ubuyobozi, harimo abagore n'abagabo, harimo abagabo bambaye amakositimu n'amakaruvati, inyuma yabo hakaba hari ikirangantego cy'u Rwanda.

Umugore mwiza ufite umusatsi mukeya, wambaye amaherena arimo aramwenyura, afite indangururamajwi ari kuvuga ijambo yambaye ikanzu ifite amaboko maremare ndetse yambaye n'isaha kuku boko kumwe.

Abagabo batatu bahagaze mu bitaka, hakaba harimo uwambaye amadarubindi ndetse afite n'ubwanwa bw'umukara, akaba yambaye umupira ndetse uriho ishusho y'umuntu uriho imirongo ifite amabara atandukanye.

Perezida w'u Rwanda Kagame akaba yambaye ipantaro y'umukara ndetse n'inkweto z'umukara n'amasogisi y'umukara, akaba yambaye amadarubindi n'ishati isa ikigina nyuma yiwe hakaba hari igikuta cy'ubururu ndetse n'umusatsi w'umukara.

Umugabo wambaye kositimu y'umukara ndetse na karuvatu y'umukara n'ishati y'umweru n'ipantaro inyuma yiwe hakaba hari abandi bagabo bambaye imipira y'umweru, akaba yari ari kwiyamamariza kuba perezida w'igihugu.

Ibyapa biriho isura y'umugabo wambaye kositimu ndetse n'ishati y'umweru akaba afite umusatsi mugufiya hakaba hariho amabara atandukanye umweru, ubururu, ndetse n'umutuku akaba yiyamamariza kuba perezida w'igihugu.

Abagore bari mu itsinda bari kuganira bakurikije urupapuro bafite mu ntoki, bambaye imipira y'icyatsi yanditseho Green Party, rimwe mu ishyaka ryo mu Rwanda.

Abagabo babiri n'abagore babiri n'umugabo umwe akaba afashe indangururamajwi isa ibara ry'umweru ndetse n'ubururu, iruhande rwe hakaba hari undi mugabo wambaye amadarubindi, inyuma yaho hakaba hari igishushanyo kigaragaza umuntu.

Umugabo wambaye ishati y'amaboko maremare isa umukara ndetse n'ikinigi mu ijosi, akaba ari kuvugira ku ndangururamajwi, inyuma yiwe hakaba hari icyapa kigaragaza andi masura y'abandi bagabo, ndetse iruhande rwiwe hakaba hari n'umugore n'umugabo.

Abagabo batatu bahagararanye umwe uri kuvugira ku ndangururamajwi, yambaye karuvati ndetse n'ishati y'umweru, ku ruhande rwe rw'iburyo hakaba hari undi wambaye karuvati, ishati y'umweru, ndetse undi akaba yambaye umupira n'amadarubindi.

Perezida w'igihugu cy'u Rwanda Paul Kagame, akaba yambaye amadarubindi n'ishati y'umukara y'amaboko maremare, akaba ari gusuhuzanya n'undi mugabo wambaye ikositimu y'umukara n'ishati y'umweru, bakaba bari kuramutsanya, inyuma yabo hari ababashinzwe kubarinda.

Umukuru w'igihugu ari kuvuga ijambo ku ruhande rw'iburyo ari kumwe na madamu we, ku ruhande rw'ibumoso ari kumwe n'undi muyobozi, idarapo ry'u Rwanda rimwegereye.

Abagore n'abagabo bambaye amashati ndetse n'imipira y'umweru iriho ibirangantego by'umuyobozi w'igihugu Kagame ndetse bafite n'ibindi bigaragaza ko bazatora uwo muyobozi.

Igikumwe cy'umuntu inyuma yaho hari amabara y'umuhondo n'ubururu, amwe mu bara agize ibendera ry'u Rwanda, kimwe mu bimenyetso byo gutera igikumwe ni ugushimangira neza ibyo uhagazeho.

Abantu bari kugenda bamamaza gutora KAGAME, akaba ari amatora y'Umukuru w'Igihugu bakaba baba bafite ifoto ye yambaye ikositimu y'umukara ndetse n'ikiziriko mu ijosi akaba yambaye n'amadarubindi ndetse n'umusatsi mugufi.

Kagame, perezida w'igihugu cy'u Rwanda wambaye isaha ndetse n' ikositimu y'umukara n'ishati yumweru n'amadarubindi akaba yari yajyanye n'undi mugabo wambaye amadarubindi iruhande rwe akaba ari umugore we.

Abasore n'urubyiruko batandukanye rufite amabara arimo umweru, umutuku ndetse n'ubururu, bakaba bayisize umubiri wose biyanditse amagambo pfr bikaba bihagarariye ijambo efuperi.

Ni imodoka ya takisi, ifite amabara y'umweru n'icyatsi, ifite n'amapine y'umukara, imbere yayo hari umumotari wambaye kasike isa umuhondo, n'ijire y'umuhondo n'ubururu, utwaye ikinyabiziga cy'umutuku.

Ikinyabiziga cyifashishwa mu kwikorera ibintu gifite ibara ry'umweru ndetse n'iry'ubururu, kiri guca mu muhanda ukikijwe n'ibiti birebire, iruhande rw'aho hakaba hari guca umuntu wambaye imyenda y'umuhondo n'undi wikoreye imizigo.

Umuhanda wa kaburimbo uciyemo ibisate bibiri uri gucamo imodoka, ndetse na moto ihetse umugenzi, itandukanyijwe n'ibyatsi, ndetse n'ibiti, no ku mpande zawo hari ibiti.

Imodoka yifashishwa mu gutwara ibintu by'umwihariko byifashishwa mu kubaka inzu, ikaba ifite amabara yiganjemo umuhondo n'umukara, ikaba ifite n'imibare iyiranga, ikaba ifite ikirangantego cy'aho ibarizwa.

Imodoka y'umweru itwara abagenzi mu buryo bwa rusange ikunze kwitwa twegerane, imodoka iri mu muhanda w'igitaka hari umuntu uhagaze ku idirishya ry'iyo modoka hari n'abandi bari guca ku ruhande rw'iyo modoka.

Imodoka ifite amabara y'ubururu n'umweru n'umuhondo, yikoreye ibintu bigiye bitandukanye ifite imigozi iri guca mu muhanda wa kaburimbo ,imbere yaho hari ibinyabiziga bigiye bitandukanye.

Umuhanda ukunda gukoreshwa cyane n'ibinyabiziga ukunze kwitwa kaburimbo, ukaba urimo ibinyabiziga bibiri bikunze kwitwa moto uyitwye akaba yambaye kasike z'umutuku ndetse bakaba bahetse n'abagenzi.

Igikamyo cy'umweru kiri mu muhanda wa kaburimbo, cyegeranye n'umunyamagare, ndetse n'inzira y'abanyamaguru harimo umugenzi.

Umuhanda wa kaburimbo urimo imodoka ndetse na moto, ufite ibifate bibiri, ukikijwe n'ibiti n'ibimera n'indabo wegereye amazu.

Imodoka zifashishwa mu gutanga serivisi mu gutwara abantu mu gihugu cyangwa hanze yaho, imodoka ya mbere ikaba ifite amabara y'umweru ndetse n'ubururu n'icyatsi, indi ikaba ifite amabara arimo umweru n'umukara n'irindi bara ripika.

Imodoka yo mu bwoko bwa toyota ihagaze ahantu hamwe ndetse ikaba isa umweru iparitse ahongaho kugira ngo abantu bazikeneye bazikodeshe cyangwa se bazigurishe ndetse hakaba hari n'izindi nkazo byegeranye.

Ikinyabiziga cyifashishwa mu gutwara abantu n'abantu gikunze kwitwa fuso; gifite amabara y'umweru n'ubururu; kikaba gikikijwe n'ibiti birebire ndetse n'umunyonzi uhetse umugenzi; wambaye ingofero y'umweru n'umutuku.

Imodoka ikunze kwifashishwa mu gutwara ibintu by'imizigo, ikaba ifite ibara ry'icyatsi kibisi, hakaba harimo umuyobozi w'ikinyabiziga, ndetse iruhande rwe akaba hari ibiti birebire ndetse n'umumotari.

Abagabo bane harimo babiri bambaye imyenda y'umukara yambarwa n'abapolisi bo mu Rwanda hagati y'abo harimo umugabo wambaye ikanzu y'umweru n'ingofero y'umweru n'inkweto z'umukara, umeze nk'umunyabyaha ufite uruhu rwirabura bazwi nk'abazungu. Inyuma y'abo hari imodoka ifite amabara y'umweru, ubururu n'amatara y'umutuku n'ubururu impande y'imodoka hahagaze umugabo.

Imodoka ebyiri ziparitse ku gice kimwe cy'umuhanda wa kaburimbo cy'iburyo, imwe yanditseho yego kabuzi, indi iri imbere yayo, yegereye umuhanda w'amapave.

Imodoka yifashishwa mu gutwara abagenzi bu bice biteye bitandukanye by'umujyi wa Kigali no hanze yaho ikaba ifite amabara y'umweru ndetse n'umuhondo imbere yaho hakaba hari ibinyabiziga bibiri biri mu bwoko bwa moto byicayeho abagenzi.

Umunyozi wambaye umupira w'umuhondo ndetse n'ipantaro irimo utubara tw'umweru, akaba ahetse umugenzi ufite umufuka imbere yiwe ndetse wambaye umupira w'ubururu bakaba begeranye n'ikinyabiziga cyifashishwa mu gutwara ibintu.

Mu Rwanda hari utubari tugiye dutandukanye twinshi, utubari two mu Rwanda dukomeje guterimbere bitewe na serivise nziza tugenda dutanga, ahangaha hari intebe nziza abaturage bashobora kuba bakwicaramo ushobora kuba wasohokana n'abawe ndetse mukahagirira ibihe byiza kuko bababafite ibinyobwa bitandukanye.

Ikinyabiziga kifashishwa mu gutwara abantu ndetse n'ibintu, gifite amabara y'umweru n'umukara, kikaba kiri umuhanda wa kaburimbo, no ku ruhande rwaho hakaba hari ibiti birebire, bifite amabara y'icyatsi, umuhanda ukaba urimo n'ibindi binyabiziga.

Gare yo mu mujyi wa Kigali aho iba irimo bisi zigiye zitandukanye zifite amabara y'umutuku n'umweru ndetse n'aho abandi bantu bicara iruhande rwaho hakaba ari inzu z'ubucuruzi bacururizamo imyenda ndetse n'inkweto.

imodoka iri mu bwoko bwa rokururana yifashishwa mu gutwara ibinyabiziga ifite amabara y'umuhondo, umutuku ndetse n'icyatsi ifite amapine arenze ane iri guca munsi y'ikiraro kiri gucamo ibinyabiziga bigiye bitandukanye.

Ikinyabiziga cyicarwaho n'umugezi umwe, kikaba kizwi ku izina rya moto, kikaba gifite ibara ry'umutuku ndetse kikaba gikoresha amashanyarazi, kikaba kiri kugenda mu muhanda ukikijwe n'ibiti birebire bifite amabara y'icyatsi.

Ikinyabiziga kifashishwa mu gutwara abantu ndetse n'ibintu bakiyicaraho umugenzizo umwe ndetse n'umuyobozi wacyo, kikaba kigeze murongo igaragaza aho abanyamaguru bambukira, iyo mirongo igaragazwa n'umweru.

Imodoka ziri mu muhanda wa kaburimbo imwe yitwa lifani ikoreshwa mu kwimura ibintu, indi ikoreshwa mu gutwara abantu mu buryo bwa rusange yanditseho beride.

Imodoka itwara abantu mu buryo bwa rusange yitwa Stella egisipuresi irimo abantu ifunze umuryango idirishya rifunguye hari abantu bahagaze imbere yayo.

Imodoka ifite amabara y'umweru yifashishwa mu gutwara ibikoresho bimwe na bimwe by'umwihariko, ibikenerwa mu kubaka inzu iri guca mu muhanda wa kaburimbo urimo umurongo usa umuhondo.

Igikamyo cy'umutuku kiri mu bwoko bwa fuso, gifite ibintu gitwaye inyuma yacyo bitwikiriwe na shitingi kiri kugendera mu muhanda wa kaburimbo, kegere umuhanda w'amapave w'abanyamaguru ndetse n'ibiti ku rundi ruhande.

Imodoka yifashishwa mu gutwara abantu rusange, ifite amabara y'ubururu ndetse ikaba yegeranye n'indi yifashishwa mu gutwara ibintu mu bwikorekorezi ndetse iruhande rwaho hakaba n'umunyonzi ukoreye mu mufuka.

Umuhanda wifashishwa n'ibinyabiziga bakunda gukoresha mu gutwara abantu ndetse n'ibintu cyane cyane aho usanga abantu bari kuva mu gace kamwe bajyamo kandi, ibinyabiziga bikaba bifite amabara agiye atandukanye yiganjemo ubururu.

Ahantu ku muhanda hashinze imitaka ibiri umwe w'umuhondo n'undi w'umutuku gusa uw'umuhonda uragaragaramo ibirango bya emutiyeni ndetse n'umuntu wicaye munsi yawo wambaye ijiri ya emutiyeni ndetse n'ishati ari guhereza umuntu serivise usa n'uwamugannye uri kumwaka serivise arimo aramuha telefone ngendanwa. Hakurya yaho haragaragara abandi bantu barimo baraganira mbese bari munsi y'umutaka w'umutuku.

Imodoka iri mu bwoko bwa fuso ifite idirishya rimanuye ifite na shitingi inyuma iparitse mu muhanda w'abanyamaguru ndetse n'umuhanda wa kaburimbo wegereye ibiti n'ibyatsi.

Imodoka ikorera sosiyete yitwa Ritico, ifite ibara ry'icyatsi ndetse n'umweru, iri mu muhanda wa kaburimbo iri kugenda hamwe na moto itwaye abantu, imwe iri ku ruhande izindi ziri inyuma y'iyo modoka.

Ikinyabiziga kiri mu ubwoko bwa rukururana kiba kikoreye imiziga igi ahantu hamwe ivuye ahandi, kikaba gifite amapine arenze ane, iruhande rwaho hakaba ari umuntu ushinzwe kukiyobora ndetse mbere yaho hakaba ari ibiti birebire.

Ibinyabiziga bibiri biri mu muhanda wa kaburimbo, ikiri imbere gifite ibara ry'umutuku, bakunze kwita hoho, cyikoreye umucanga, iruhande rwacyo hari inyubako ziri kubakwa, ndetse n'inyuma yacyo hari imodoka ifite amabara y'ubururu.

Ahangaha bari kutwereka abantu benshi, abo bantu benshi biragaragara ko bari mu isoko bari gucuruza ,iryo soko rirageretse, harimo abantu bambaye imyenda y'umukara.

Umuturirwa ufite amabara y'umuhondo ndetse n'amadirishya y'ubururu, ukaba ukikijwe n'igipangu gifite ibyuma bibuza abajura kwinjira ndetse iruhande rwawo hakaba hari ibiti birebire bifite amabara y'icyatsi.

Akazu k'umuhondo kari kubakwa aho abanyamaguru bategerereza imodoka rusange, kegereye umuhanda w'abanyamaguru w'amapave, wegereye umuhanda wa kaburimbo ucamo imodoka n'ibindi binyabiziga.

Ikibuga gikinirwamo umupira w'amaguru kiba gifite amazamu, ndetse n'inshundura n'amazamu akaba asa ibara ry'umweru. Ikibuga kikaba gifitemo n'ibyatsi bisa icyatsi, ndetse n'inyuma y'ikibuga hakaba hari n'ibindi biti birebire.

Ikibuga cya basiketeboru gisize icyatsi n'umutuku ndetse n'agaseke batsindiramo igitego, hakikijwe n'ibyatsi ndetse n'ibiti ndetse gikikijwe n'inzu.

Ikibuga gikinirwaho umukino wa tenisi, abantu bicaye bari kureba umukino wa tenisi bakikijwe n'ibiti ku mpande zose ndetse hari n'imodoka iparitse ku rundi ruhande.

Ikibuga gikinirwamo imikino y'amaboko, kikaba cyubakishijwe sima ndetse kikaba kirimo n'amazi, kikaba gifite amabara arimo umweru, umukara, kikaba gikikijwe n'ubusitani burimo ibiti birebire.

Icyumba gikinirwamo imikino ijyanye n'imipira y'intoki kikaba kirimo amabara y'umutuku, icyatsi ndetse n'umuhondo n'umweru, kikaba gikikijwe n'ibiti birebire ndetse n'abantu bicaye mu busitani.

Hirya no hino ugenda usanga hari amasoko atandukanye kandi acuruza ibicuruzwa bitandukanye, ariko amenshi murayo masoko usanga ahuriyeho n'uko abacuruza ibintu bijyanye n'imyenda cyangwa se imyambaro y'abantu bagiye batandukanye. Ayo masoko yose ugasanga ari ingirakamaro cyane mu iterambere ry'umuturage ukamufasha kwiteraza imbere mu buryo bumwe kandi akanamufasha no kubaho neza mu buryo bw'imyambarire.

Abanyamagare bari mu isiganwa, bari mu muhanda wa kaburimbo wo mu karere k'i Muhanga, ukikijwe n'ibiti ndetse n'abantu bashungereye bari kureba amarushanwa.

Icyapa kifashishwa mu muhanda gifite amabara atatu umweru umutuku n'umukara, kikaba gifite imirongo itanu ishushanya aho abanyamaguru bambukira, ndetse kikaba gishushanyijemo n'umugabo uhagarariye abanyamaguru.

Icyapa kigizwe n'amabara atandukanye, umutuku, umweru n'umukara kikaba kigaragaza umuvuduko ikinyabiziga kitagomba kurenza mu muhanda, iki cyapa kikaba kigaragaza umuvuduko wa mirongo ine, aricyo kitagomba kurenza.

Icyapa kigaragaza umuhanda ushobora gucamo ujya mu gace kamwe cyangwa akandi by'umwihariko Nyamata Kagarama ndetse no mu mujyi, inyuma hakaba hari ikiraro gicamo abantu bagiye batandukanye n'ibinyabiziga byabo.

Icyapa ndangacyerekezo, aho kigaragaza umuhanda ukomeje ndetse n'undi muhanda ushamikiyeho ku ruhande rwaho. Iki cyapa kikaba gikikijwe n'ubusitani ndetse n'amazu. Ubusitani bufite amabara y'icyatsi ndeste n'amabuye.

Icyapa cya mpandeshatu gifite umuzenguruko w'umutuku, gikikijwe n'ibara ry'umukara, mo imbere harimo ibara ry'umuhondo, ndetse n'umuntu mu ibara ry'umweru, ryerekana ko imbere hari umuntu uri mu kazi.

Icyapa cya apande enye ki mu ibara ry'umuhondo gifite umuzenguruko w'umukara mo imbere cyerekana umwambi ukata ugana iburyo uri mu ibara ry'umukara.

Icyapa kigaragaza umuvuduko ntarengwa kikaba kirimo amabara atatu: umuhondo, umukara ndetse n'umweru, hakaba handitsemo n'amagambo atandukanye agaza umuvuduko ugenderaho mu isaha.

Kimwe mu byapa byifashishwa hagati mu mihanda, kigaragaza umuhanda ukomeza n'undi utambika iburyo, kikaba kirimo amabara y'umukara n'umuhondo, kikaba gifashishwa imihanda igiye itandukanye cyane cyane mu miremire.

Icyapa kirangwa n'amabara atatu umutuku, umweru n'umukara, kikaba gikunze kwifashishwa mu mihanda yangiritse ikaba iri gusanwa, ikaba irimo umugabo uri gusa nk'aho ari gusana umuhanda, bikaba bimenyesha ibinyabiziga kugenda gacye.

Icyapa cyo mu muhanda, gifite umuzenguruko w'umutuku, kiri mu ibara ry'umweru, cyerekana ko ukomeje imbere umuhanda urangira.

Icyapa gifite amabara atatu umweru, umutuku ndetse n'umukara kikaba kigaragariza ibinyabiziga biri mu mihanda y'uko ahantu ari ihuriro ry'imihanda ukaba ushobora kuzenguru kino cyapa kikaba cyifashishwa mu mihandade itandukanye.

Icyapa gifite amabara arimo umutuku n'umuhondo ndetse n'umukara kikaba gishushanyijemo imirongo itanu, ndetse n'umugabo uri kwambuka bigaragaza ko ikicyapa ahantu cyiba kiri haba hagomba kwambukirwa abanyamaguru.

Icyapa cya mpande eshatu kiri mu ibara ry'umweru, gifite umuzenguruko w'umutuku, cyerekana gukata ibumoso hifashishijwe umwambi w'umukara, gishinze ku nyubako icuruza imiti ku buryo bwabugenewe bakoresheje impapuro uba wandikiwe kwa muganga.

Abagabo batatu bari kumanika ibyapa byifashishwa mu muhanda, icyapa cya mbere kikaba kigizwe n'amabara umutuku umweru n'umukara kiba cyanditseho imibare ibiri mirongo itandatu kigaragaza umuvuduko ko ntarengwa mu muhanda.

Umugore ufite umusatsi muremure wambaye imyenda y'umutuku, vharimo n'umukara n'umweru n'ijipo ngufiya, ufite igikapu gikunzwe gukoreshwa n'abantu bakunze kujya mu mahanga akaba ahagaze hafi y'ibyapa bigiye bitandukanye ndetse n'inyuma yaho hakaba hari iminara y'amashanyarazi.

Icyapa kifashishwa mu muhanda kigaragaza ko utemerewe kuzenguruka iyo uvuye, kikaba kigizwe n'amabara atandukanye umweru, umutuku n'umukara kikaba kifashishwa hagati mu mihanda ku bantu batwara ibinyabiziga.

Icyapa kifashishwa mu muhanda, ku bantu batwara ibinyabiziga, kigizwe n'amabara, umutuku n'umweru, kikaba giteye mu busitani buri hagati mu mujyi, kegerejwe n'ibiti.

Inzu z'ubucuruzi zigiye zitandukanye hari aho bacururiza amata imyenda ndetse n'ibindi bitandukanye hari amabara y'ubururu umweru ndetse n'imyenda iruhande rw'aho ibiti insinga nk'ibyapa n'imodoka iruhande rwabyo.

Inyubako y'amagorofa y'ubucuruzi ifite ingazi n'abantu bicaye ku ngazi ndetse n'imodoka ziparitse imbere y'iyo nyubako imodoka z'ubwoko bugiye butandukanye z'umukara .

Inyubako nziza ifite ubusitani burimo ibiti, ibimera, ibyatsi, hejuru yayo ifite itara, ku zindi mpande ikikijwe n'ibiti, hasi ku hashashwe amapave...

Umuhanda usukuye ukikijwe n'ibyatsi bisukuye neza ndetse n'ibipangu bifite amabara y'umukara ndetse n'ibiti biri mu bwoko bw'imikindo bikaba bifite n'indabo zirimo n'umutuku.

Inzu yubatse imbere y'umuhanda w'ibitaka, ikaba iri mu gipangu gifite amabara atandukanye kikaba gikikijwe n'ubusitani ndetse n'ibiti birebire by'amari atandukanye.

Inyubako ya etage, ituranye n'izindi nyubako imbere y'umuhanda w'ibitaka, zikaba zikikijwe n'ibiti birebire bifite amabara y'icyatsi. Inzu ya etage ikaba ifite amabara y'umweru n'umutuku n'ibigega hejuru by'umukara.

Hotel yitwa hiritopu (Hiltop) y'amagorofa, ifite amadirishya ya fime, kur'uruhande rumwe idirishya rifunguye hari irido risa umutuku.

Umuturirwa ugeretse inshuro zirenze ebyiri, ukaba ufite amabara arimo shokora n'umukara, ukaba uri mugipangu gikikijwe n'ibiti n'igipangu cyubakishijwe amatafari, imbere yaho hakaba hari umunara ufite insinga z'amashanyarazi.

Inzu nyinshi, zikaba zikikijwe n'ibiti birebire cyane, bifite amabara y'icyatsi, hirya hakaba hari indi inzu z'imiturirwa zikiri kubakwa, zifite na ya mabara y'icyatsi, ni ibikoresho byifashishwa mu kubaka.

Inyubako nziza y'amagorofa iri mu gipangu gifite ubusitani burimo ibyatsi n'ibimera ndetse n'ibiti yegereye umuhanda w'igitaka.

Imihanda imwe mu mujyi wa Kigali irimo umweru n'umukara ndetse n'ahantu hacururizwa serivise za emutiyeni hariho ikirangantego cyayo kirimo umuhondo n'umukara, hirya yaho hakaba hari imodoka y'umukara ndetse n'inzu z'ubucuruzi.

Umuntu uri kwambukiranya umuhanda wa kaburimbo mu muhanda harimo imodoka, ari kujya ku ruhande ruriho amazu y'amagorofa asize ibara ry'ivu ndetse n'ibara rya kaki.

Ibiro bya noteri wikorera ku giti cy'iwe bituranye n'inzu y'ubucuruzi bacururizamo imyenda ikikijwe n'igiti cyatemwe imbere y'umuhanda uriho amapave n'ibindi bitandukanye.

Inzu y'umuturirwa igeretse inshuro zigeze muri eshatu, ikaba ituranye n'izindi nzu zisanzwe z'ubucuruzi, aho bacururizamo ibikoresho bitandukanye by'umwihariko ibikoresho byifashishwa mu kubaka inzu.

Inyubako zubatswe mu buryo bw'umudugudu, aho usanga bantu baturanye mu buryo bwa hafi hatarimo mwanya munini, bakaba bakikijwe n'ibiti bigiye birebire, ndetse izo nyubako zikaba zifite amabara agiye atandukanye harimo umutuku, umuhondo, n'andi mabara.

Ibiti birebire biteye ku byatsi bisa icyatsi hirya yaho hakaba hari abantu babiri , umwe yambaye umupira w'umuhondo undi yambaye umupir w'umweru bakaba bambaye ama pantaro y'umukara ndetse n'ipoto y'amashanyarazi iruhande rwabyo hakaba ari inzira y'abanyamaguru.

Igare riparitse mu muhanda uri ahantu munsi haca amazi habugenewe, ndetse hejuru hakaba ari ahantu hari ibiti birebire bifite amabara y'icyatsi bakunze kwita ishyamba.

Umuhanda wa kaburimbo uri munsi y'ikiraro, umuhanda uri gucibwamo n'imodoka ndetse na moto, umuhanda ukikijwe n'ibiti ndetse n'akayira k'abagenzi.

Isangano ry'imihanda itandukanye mu mujyi wa Kigali igizwe n'amabara y'umweru n'umukara, harimo abantu bari kugendagenda harimo abambaye umweru n'abambaye umutuku ndetse n'abamotari, ku ruhande rwaho hari ibiti ndetse n'indi miturirwa.

Imashini isizwe ibara ry'umukara n'ivu ishinzwe kugenzura umuvuduko w'ibinyabiziga bica mu muhanda, yihishe mu busitani buririmo ibiti n'ibyatsi, ikunze kwitwa sopfia

Kimwe mubiraro bigize umugi wa kigali bikaba bigizwe n'amabara y'umweru hariho ibyapa kiriho indangabyerekezo biri mu mabara atandukanye umweru n'icyatsi. Hakaba hacamo munsi ibinyabiziga n'ibindi byifashishwa mu gutwara abantu n'ibintu.

Umuhanda uri ku kiraro uri gucaho ibinyabiziga utandukanijwe n'ubusitani nundi muhanda uri munsi y'ikiraro hari gucaho abantu ndetse n'abanyamagare.

Igice cy'iburyo cy'umuhanda urimo imodoka ndetse n'imodoka iparitse mu ikona, ibiti, amatara, inzu.

Umuhanda wa kaburimbo uri gucamo n'igikamyo ndetse n'abamotari, kumpande zombi ukikijwe n'umuhanda w'abanyamaguru w'amapave ndetse n'ubusitani burimo ibiti n'ibyatsi uwo muhanda uri munsi y'kiraro.

Umuhanda wa kaburimbo uri munsi y'ikiraro uri kugendwamo n'umumotari n'umunyegare n'ibindi binyabiziga, ku ruhande hari umunyamaguru n'umunyegare uparitse.

Icyapa kifite amabara y'umutukuye n'umukara kikaba kigaragaza ko nta modoka igomba guparika aha hantu, uyu muhanda utangaje ku buryo imodoka bicaye hejuru no hasi hakaba hari n'abamota iruhande rwabo.

Imirongo ishushanyije hagati y'imihanda igizwe n'amabara y'umweru ugaragariza ahantu bambukira abanyamaguru, ibinyabiziga bigatanga umwanya kugirango abanyamaguru bambuke, ibinyabiziga bifite amabara y'ubururu ndetse n'abamotari.

Imirongo igaragaza aho ibinyabiziga bihagarara, kugira ngo bibashe guhereza umwanya abanyamaguru babashe gutambuka, hakaba hari n'ibiti biteyemo hagati mu muhanda kugira ngo umujyi ukomeze use neza uko bwije n'uko bukeye.